Umugore uvuye kuvoma yikoreye ijerekani y'umuhondo iruhande rwe hari umwana wambaye impuzankano w'umunyeshuri, imbere yabo hari inzu isakaje amabati y'umutuku.

Abantu benshi biganjemo abagore bicaye mu cyumba cy'ikigo nderabuzima ku ntebe ziteganye hirya hahagaze babiri n'umuganga wicaye n'umwana.

Abana babiri bicaye imbere y'impombo y'amazi bari gukaraba intoki, umwe yambaye agapira k'umutuku undi yambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi iri mu tudomo tw'umweru.

Abagore bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'ubururu, bateruye abana babo baje kubakingiza, imbere ya hari umuganga uri kubaha ikinini cya vitamine n'ik'inzoka.

Idarapo rishinze kigaragaza igihugu cy'u Rwanda, ihema, imodoka iri mu ibara ry'umweru, abantu benshi bahagaze harimo abagabo n'abagore.

Abantu bane, batatu muri bo barahagaze, umwe muri bo aricaye bose bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hagati hateretse ameza ariho mudasobwa.

Abantu baricaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo n'abagore, barangajwe imbere n'abantu batandatu, harimo uwambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku.

Abana b'abakobwa b'abangavu barahagaze bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu, inyuma y'abo hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifite amadirishya yo mu ibara ry'ubururu.

Abagabo batatu harimo n'umwana umwe w'umuhungu, umugabo umwe yambaye ingofero y'abayisilamu n'ishati idoze mu gitenge.

Umugore wicaye uteruye umwana imbere ye hari umujyanama w'ubuzima uri kumubwira uko azajya ategurira umwana we amafunguro yuzuye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abana batatu b'abakobwa baboshye imisatsi, bahagaze imbere y'impombo y'amazi bari gukaraba intoki, inyuma yabo hari igiti gifite amashami atoshye.

Umugore utwite yaherekejwe n'umugabo we, aje kwipimisha inda, yambaye ipantaro n'ishati iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, imbere yabo hicaye umujyanama ari kubaha amabwiriza y'indyo yuzuye, umugore utwite agomba kurya.

Abantu bahagaze, bambaye impuzankano b'abaganga, bahagaze munsi y'igisenge cy'amabati, inyuma yabo hari inzu ebyiri zubakishije amatafari ahishye.

Abana bicaye hasi ku mikeka, bambaye impuzankano zirimo amabara y'ubururu n'amabara y'umuhondo, inyuma yabo hateretse ameza ariho amacupa.

Umuganga wambaye impuzankano, ari gukingira umwana uteruwe na mama we, wambaye umupira urimo amabara y'ubururu, umweru n'umukara.

Umuntu uhagaze, w'igitsina gore, imbere y'ivomo, ari kuvomera, amazi, mu majerekani, atatu, ari mu ibara ry'umuhondo.

Abana babiri bafite amajerekani abiri baje kuvoma ku ivomo rifite i pompo y'icyuma, umwe n'umukobwa undi ni umuhungu.

Abantu bicaye bari mu nama, harimo abagore n'abagabo, ubarangaje imbere yambaye ikanzu y'ibara ry'umweru n'ikote riciye amaboko ry'ibara ry'umukara.

Umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu, afashe icyapa gishushanyijeho abana babiri umuhungu n'umukobwa, iruhande rwe hari umumama wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru n'igitenge kirimo amabara y'ubururu.

Abantu batatu umwe ni umuganga undi ni umugore uteraye umwana, muganga ari guha ubufasha avura umwana uteruwe na mama we.

Abana babiri bahagaze umwe ari guseka, undi afite igikombe mu ntoki kirimo amazi, arimo arakarabya mugenzi we intoki.

Umwana w'umukobwa wunamye, wambaye imyenda y'igitenge iri mu ibara ry'umutuku, yunamye ari gukaraba intoki mu ibase y'umukara.

Abagabo babiri bicaye bari mu nama y'ibijyanye n'ubuzima, iruhande rwabo hari idarapo, imbere yabo hari uducupa turimo amazi yo kunywa. Amazi ni ubuzima.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama harimo n'abafite uruhu rwera, imbere yabo hari abantu batandatu bari kubakoresha inama.

Abantu bicaye mu nama imbere yaho hari abandi batatu bari kubaha amabwiriza yo kwirinda no gukumira ibyorezo byugarije isi.

Robine ifunguye irimo amazi, imbere yaho hari amaboko atezeho ibiganza ari gukaraba, ibiganza, intoki kugira ngo hirindwe indwara zituruka ku mwanda uterwa n'isupu nkeya.

Robine ebyiri zometse ku gikuta zifunguye, imbere y'izo robine hari umwana wunamye ari kuvomera amazi mu gikombe, yambaye ikabutura iri mu ibara ry'ubururu.

Inzu ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye inzugi zazo n'idirishya, zisigishijwe irangi ryo mu ibara ry'ubururu.

Abantu baricaye bari mu kiganiro k'ibyerekeranye n'ubuzima bwa muntu, imbere yabo barangajwe n'abantu batandatu, harimo uwambaye umwenda w'ibara ry'umutuku.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, abana, harimo umugore witwikiriye igitenge kirimo amabara y'ubururu, harimo uwikoreye amaboko n'umusaza uhagaze.

Abantu batatu muri abo batatu babiri muri bo bafite amajerekani barimo baravoma, undi ari kubaha amabwiriza y'uko bafata neza ivomo ryabo.

Icyapa gicometsemo robine ebyiri hunamye abagore babiri umwe ari gukaraba intoki undi ari kunywa amazi, iruhande rw'aba bagore hari amajerekani abiri, inyuma y'icyapa hari umugore wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku.

Abantu batatu, harimo umugore uteze igitambaro mu mutwe kiri mu ibara ry'ubururu, abana babiri bunamye ku ivomo bari kuvomera mu majerekani y'umweru.

Abantu bahagaze, harimo abagore n'abagabo harimo abera n'abirabura, iruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu barahagaze, harimo abagabo n'abagore, bose bambaye udupfukamunwa bambaye imyenda irimo amabara yubururu inyuma yabo hari ibyapa bitatu, harimo igifite ibara ry'umuhondo cya MTN Rwanda harimo gifite ibara ry'umweru, harimo n'igifite ibara ry'ubururu.

Abantu barahagaze, harimo abagore n'abagabo, muri abo harimo babiri bafite uruhu rwera, bamaze kwiga, kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'igwingira ry'abana.

Umuntu uhagaze w'uruhu rwera; wambaye isaha ku ukuboko, ufite indangururamajwi mu ntoki; wambaye umupira uri mu ibara ry'ivu; inyuma ye hari igishushanyo kirimo amabara y'umweru nay'ubururu.

Abagore batatu bateze ibitambaro bafite inkoni mu ntoki, uri hagati yabo atereye umwana, hakurya yabo hari umusozi.

Abantu babiri bicaye umukobwa n'umuhungu, umukobwa ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, umuhungu yubitse umutwe yifashe ku gahanga.

Abagabo bahagaze barimo abagore babiri, inyuma yabo hari amahema afite imitwe ibiri, ikikijeho igitambaro kirimo ibara ry'icyatsi n'imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Abana b'abanyeshuri bari guseka bakoma amashyi, bambaye impuzankano zabo ziriw m'ibara ry'umuhondo.

Abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo, harimo umugore wambaye ikanzu y'umweru bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugabo wicaye ahesa ibitugu yambaye ingofero mu mutwe, ahetse igikapu mu mugongo, yambaye isaha ku kuboko, yambaye ikoti riri mu ibara ry'ubururu bwerurutse.

Abantu babiri bicaye, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi umugore afite indangururamajwi yambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu.

Abantu icyenda barahagaze babiri ni abagore, barindwi ni abagabo, inyuma yabo hahagaze imodoka iri mu ibara ry'umweru.

Abantu 6, muri abo batandatu harimo abagabo babiri n'umwana umwe bicaye ku ntebe y'imbaho bicaye imbere yinzu ifite amadirishya abiri nu urugi rumwe.

Ku bantu bahagaze, abagore n'abagabo, barimo abafite uruhu rwera batatu, babiri bafatanye ku ntugu, umugore yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, umugabo yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro n'ishati bicikaguritse, afite uburwayi bwo mu mutwe, ku rutugu yikoreyeho imifuka, inyuma ye hahagaze imodoka.

Abantu baricaye bambaye udupfukamunwa, iruhande rwabo hari imodoka nini iri mu ibara ry'umweru, yitwaza ibikoresho by’ubuvuzi bigendanwa.

Umukecuru ukuze utoboye amatwi ateze igitambaro kiri mu ibara ry'umweru, mu ijosi yambaye umukufi ufite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano ziranga ikigo cyabo, bafite udukombe mu ntoki bafite uburoso bari koza amenyo yabo.

Umugabo ukuze wambaye amadarubindi ufite imvi mu mutwe imbere ye hari umuti n'uburoso byogeshwa amenyo.

Umugabo ari koza amenyo akoresheje urudodo rufatishijwe n'ibiganza bye bibiri, yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga arasamye arareba hejuru imbere ye hahagaze umuganga wambaye uturindantoki turi mu ibara ry'ubururu.

Umugabo arahagaze, arishimye arimo araseka, afite amenyo y'umweru cyane, afite ubwanwa, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu y'ikoboye n'umupira imbere wo m'ibara ry'ikigina.

Umugabo urimo guseka waje kwivuza amenyo, aryamye ku gitanda baryamaho bari kubavura, iruhande rwe hari umuganga wambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, haririmo igitanda, harimo akifashishwa nk'agakondo ko guciramo igihe amacandwe yabaye menshi mu kanwa, harimo n'itara rimurika mu kuvura umurwayi.

Umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umweru ari koza amenyo yifashishije uburoso bwagenewe koza amenyo.

Umubyeyi n'umwana bari mu cyumba bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, bafite uburoso buriho umuti bari koza amenyo.

Umwana wasamye, uri kuvurwa indwara z'amenyo, umuganga uri kumuvura yambaye uturindantoki, turi mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba kirimo ibitanda gihagazemo abantu babiri, umugabo ari kwiga kugenda afashe ku byuma, umugore amufashe ku rutugu, yambaye inkweto ziri mu ibara ry'umukara n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Abantu batanu bahagaze harimo umukecuru n'umusaza wambaye amadarubindi, n'umukobwa w'igikara ufashe umwana ku rutugu, n'umuhungu wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo aricaye ku ntebe. Imbere ye hateretse ameza, yifashe ku gahanga, arimo arasoma igitabo, hari suri, hari ikirahure, inyuma ye hari ururabo.

Abagore babiri, bateye intambwe bihuta, umwe muri bo, yambaye igitambaro mu mutwe kiri mu ibara ry'umutuku n'umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo ukuze wicaye mu cyumba cy'uburiro, wambaye ishati y'amabara y'umutuku n'umweru, afite agasahani mu ntoki, ari kwaruriramo imboga.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda, ameza ateretseho ibiryo, akagare kigisha kugenda, umuntu uhagaze wambaye umwenda w'itaburiya biri mu ibara ry'ubururu.

Abantu babiri barahagaze b'abagabo, bari gukurura umugozi uri mu ibara ry'umuhondo, umwe muri bo yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, afite ubwanwa burimo imvi.

Abagore barimo babyina, barimo abambaye amajipo ari mu ibara ry'umukara n'imipira iri mu ibara ry'umweru, bambaye udupfukamunwa ku kananwa k'abo, harimo n'uwambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Umukecuru yicaye imbere y'ishyiga rya gakondo ririmo inkwi, yambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi ateze igitambaro mu mutwe kiri mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri umugabo umugore bahagaze bari guseka, bishimye, bahagaze imbere y'urugi, bafatanye ibiganza byabo by'iburyo bishimye bari guseka.

Abantu batandatu bicaye ku ntebe imwe, harimo umusaza wambaye ibiri mu ibara ry'ubururu, umukecuru wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hateretse indabo.

Abantu babiri umugabo ufite uruhara wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umutuku ufite igikoresho cyabugenewe cyigisha kugenda umugore uhagaze wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru n'ipantaro y'ubururu bwijimye.

Umuganga w'umugabo wambaye igikoresho mu ijosi cyifashishwa mu kumva ubuhumekero bw'umuntu, ari kumwe n'umugore ufite inkoni mu ntoki yigondoye, wambaye ikanzu y'ubururu bwerurutse.

Abantu bakuze bicaye, umusaza n'umukecuru. Umusaza yambaye isaha y'umukara ku kaboko, n'umupira uri mu ibara ry'ubururu, umukecuru yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri, umwe aricaye undi arahagaze, bose bambaye amakoti ari mu ibara ry'umukara, amashati ari mu ibara ry'umukara, amapantaro ari mu ibara ry'umukara.

Abagore batatu bahagaze bambaye udupfukamunwa, barikumva amabwiriza yo gukumira no kwirinda icyorezo cya covide cumi n'icyenda.

Abantu babiri bahagaze, umugabo n'umugore bafite icyapa gishishikariza abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu kivurwa kigakira.

Icyapa gikangurira abanyarwanda, kugira ubuzima bwiza buzira indwara ndetse n'umuze.

Abantu b'abagore bicaye bateye umugongo, baje mu isuzumiro zitandukanye, harimo n'isuzumiro risuzuma indwara z'abagore.

Icyumba gisizemwo irange ry'ibara ry'ikigina n'ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga, gihagazemo umuganga, wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ari gukoresha icyuma, gisuzuma indwara ziri mu mubiri w'umuntu kitwa sikaneri.

Icyumba kirimo intebe z'umukara, hatatsemo imitako myinshi, hakaba harimo n'umuntu ugaragara igice cyo hejuru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda n'ameza n'ibikoresho bindi byabugenewe, byometse ku rukuta bisuzuma indwara z'abarwaye neza.

Umuganga ari gufatira amaraso, umurwayi uryamye ku gatanda, wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, n'ingofero y'umukara, n'agapfukamunwa kari mu ibara, ry'umukara.

Inyubako nini, yo kuvuriramo abarwayi, hanze y'iyo nyubako hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro y'umukara, n'imodoka nyinshi, muri izo modoka nyinshi harimo imbangukiragutabara, zifashishwa igihe hagize umurwayi ukenera ubundi bufasha, ku rindi vuriro.

Icyumba cy'ivuriro kivurirwamo indwara z'abana, gishushanyijemo ibikinisho by'abana, kugira ngo abana badatinya ucyinjiramo.

Icyumba cyabugenewe kigurishirizwamo amadarubindi, yifashishwa mu kwambara mu maso kugira ngo umuntu arusheho kureba neza.

Icyumba kinini kimanitsemo indorerwamo n'ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Abantu barahagaze, harimo abagabo n'abagore babiri bicaye, imbere yabo hari ameza atwikirije igitambaro kiri mu ibara ry'umweru, umugabo wicaye mu kagare, intebe ikozwe mu rubaho.

Abaganga bahagaze mu cyumba cy'abarwayi, bambaye imyenda y'ubwirinzi yo kwirinda icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, icyo cyumba kirimo amarido y'ubururu n'inzitiramubu iteye umuti.

Icyumba kinini cy'i Kanombe gicururizwamo imiti ivura indwara ubwoko bwose, hahagazemo umukobwa wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku.

Ameza ateretseho amaraso ari mu mashashi yabugenewe, amaraso aterwa abantu kugira ngo bongererwe amaraso mu mibiri yabo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho byinshi harimo amagare, harimo televiziyo, harimo n'ikindi cyuma cyitwa tapi gikoreshwa mu kwiruka.

Icyumba cyo kwa mu ganga kinini gisigishijwe irangi ryo mu ibara ry'umweru, kirimo ibitanda byinshi biryamishwaho abarwayi, kirimo inzitiramubu iteye umuti n'amarido y'ubururu.

Inyubako yubakiwe kuvurirwamo abarwayi, imbere yayo harimo abantu batatu, umugabo umwe, abana babiri, umwana umwe mukuru afite ibase mu ntoki, bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba gishushanyijemo igiti kirimo amabara y'umutuku, igitanda gifite ibara ry'ubururu, akameza, icyuma bifashisha bamanikaho serumu.

Ibikoresho byo kwa muganga, harimo igikoresho cyitwa sikaneri gifotora uburwayi buri mu mubiri w'umuntu, kikabasha no kwerekana uburwayi bwimbitse buri mu mubiri w'umuntu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Hahagazemo umugabo wambaye impuzankano y'imyenda yo kwa muganga.

Umugabo wambaye impuzankano za gisirikare, ahagaze ku nyubako yubakiwe kuvurirwamo abarwayi bafite indwara za Kanseri.

Icyumba cyo kwa muganga, gisizemo irangi ryo mu ibara ry'ubururu, n'iry'umweru, kirimo ibikoresho byifashishwa basuzuma umutima w'umuntu ko, utera.

Inzu ifite nomero makumyabiri isize irangi riri mu ibara ry'umweru, yubakiwe gukoreramo imishinga ifasha uburwayi.

Icyumba cyo kwa muganga gisizemo irangi ryo mu ibara ry'umweru, amatara abiri, urugi, icyuma gicishwamo umurwayi gisuzuma uburwayi afite mu mubiri we.

Ikigo nderabuzima cya kigina cyubatswemo amazu ari mu ibara ry'umweru ashakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere y'ikigo hahagaze umugore uhetse umwana ukenyeye igitenge, yiteye agashuka kari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga giteretsemo ameza, ateretseho ibikoresho bikoreshwa mu gukonjesha amaraso no kuyabika neza mu buryo bwabugenewe.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, giteye amarangi ari mu ibara ry'umweru, gishakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere yacyo hashinze Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga hicayemo abaganga, gisizemo irangi ry'ibara ry'umweru, harimo babiri bicaye, umwe wunamye, undi uhagaze wifashe mu mayunguyungu, wambaye umwenda uri mu ibara ry'umukara, imbere y'abo hari ibikoresho bivangavanze byo kwa muganga.

Inyubako yubakiwe abarwayi bavurirwamo indwara zitandukanye, imbere y'iyo nyubako hahagaze abantu bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu.

Televiziyo ameza ateretseho ururabo, umugabo uhagaze wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu hejuru ye hamanitse isaha, undi wicaye umugabo wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umuhondo n'umupira uri mu ibara ry'ubururu n'ingofero.

Inzu yubakiwe gufatirwamo ibizamini byanditswe na muganga, imbere yayo hicaye abantu, inyuma y'abo bantu hateye ibiti by'indabo.

Icyumba cy'uruganiriro giteretsemo ameza ane, muri ayo meza ane, abiri ari indabo n'intebe enye, n'ururabo ruteretse mu nguni.

Inzu y'urubyariro yubakishijwe amatafari ahiye, ishakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, munsi y'idirishya ryayo hateretse ameza.

Umugore uryamye ku gatanda ko kwa muganga, yiyoroshe igitenge, inzitiramubu, imbere hahagaze umuganga, iruhande rwe hunamye umuganga wambaye amadarubindi.

Icyumba kinini kirimo ibitanda byinshi byo kwa muganga, biryamaho abarwayi, bishasheho amashuka y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, igitanda kimwe kiryamyemo umurwayi, hamanitsemo ibitambaro biri mu ibara ry'icyatsi n'amacupa abiri maremare akoreshwa mu kongerera abarwayi umwuka.

Abantu benshi bahagaze, harimo babiri bambaye utupfukamunwa, bahagaze imbere y'inyubako yubakiwe kuvuriramo abana, iruhande rwaho hari ihema

Agatebe, icyuma gipima indwara ziri mu mubiri w'umuntu, agatanda ko kuryamaho, akabati gateye irangi riri mu ibara ry'umuhondo.

Umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge ateza igitambaro mu mutwe, kiri mu ibara ry'umukara, umugabo wambaye imyenda yo kwa muganga, mu ijosi rye harimo igikoresho cyifashishwa basuzuma imyanya y'ubuhumekero bw'umuntu.

Inzu y'urubyariro yubakishijwe amatafari ahiye, urubaraza rwaho rusize irangie ryo mu ibara ry'umweru, hicaye abantu batanu harimo abagabo batatu n'abagore babiri.

Umugabo uhagaze, usobekeranyije amaboko wambaye umupira uri mu ibara rya kake, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga gikinirwamo imikino y'imyidagaduro, harimo umukobwa wambaye agapfukamunwa n'umupira uri mu ibara ry'umukara, yambaye isaha ku kuboko ahetse igikapu mu mugongo.

Abana benshi barahagaze barimo bahungu n'abakobwa harimo uwambaye umwenda uri mu ibara ry'umukara afite umupira mu ntoki bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri barahagaze umwe yambaye ikabutura n'ibara ry'umukara n'umupira uri mu ibara ry'ubururu afite umupira mu ntoki undi ari mu kagare kigisha kugenda yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo n'ikabutura mu ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo igikoresho cyo kwa muganga cyitwa Scanneri, kirebera kure uburwayi umuntu yaba afite mu mubiri we, kikabasha no gutanga ubusobanuro bwimbitse.

Ikiganza gifashe ijaga, ijaga iri gusuka amazi mu kirahure, nabagira inama yo kunywa amazi kenshi kandi menshi ajyanye n'ibiro byawe kuko amazi ni ubuzima.

Umugore aricaye yambaye jire iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa, afashe umwana ku mutwe amuraramishije ari ku mumurika mu mazuru.

Umugore aricaye ahese umugongo arambuye amaboko ayarengeje ku birenge, yambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu uhagaze areba inyuma, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'ubururu bwerurutse.

Umugabo w'igikara uhagaze, wabize ibyuya, uri kunywa amazi ari mu icupa ritameneka, wambaye umupira uri mu ibara ry'ikijuju.

Umukobwa uhagaze imbere y'ikiyaga uzamuye amaboko, wambaye imyambaro yifashishwa yambarwa mu myitozo ngororamubiri.

Umugore uhagaze, uri kunywera amazi mu icupa rifite umufuniko uri mu ibara ry'ubururu, mu ijosi yifubitsemo igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Umusore w'igikara arahagaze ari kunywera amazi mu icupa, yambaye umupira w'amaboko maremare uri mu ibara ry'umukara.

Abantu barimo igitsina gore n'igitsina gabo bari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Ironji, pome, mboga rwatsi, puwavuro, metero, ibyuma bibiri biterurwa bigatuma umubiri ukomera.

Umuntu w'umugabo upfukamye wambaye imyenda y'umukara urambuye amaboko, uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Ubwoko bw'imbuto butatu amarongi, pome, imineke harimo n'imboga kokombure, burukori, pawavuro n'ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri.

Abagabo batatu begeranye, bamwe bambaye imyenda isa iri mu ibara ry'umuhondo, undi yambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku n'ikabutura iri mu ibara ry'umukara.

Umugore arunamye ukuboko kumwe gufashe munsi y'ikirenge, ukundi gufashe ku mugongo, afite umusatsi mwinshi w'umukara, yambaye impuzankano yifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikapu bibiri birimo ibara ry'umutuku n'akandi gatoya karimo ibara ry'umukara, igikapu kimwe kirafunze ikindi gikapu kimwe kirafunguye, kirimo ibikoresho by'ubuvuzi bw'ibanze.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aricaye ahese umugongo, ahinnye ukuguru kumwe, ukundi kurambuye gufashwaweho n'amaboko yombi, yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo uhagaze ateruye icyuma kiremereye imbere ye hateretse ameza ariho amagi, karoti, inanasi, icupa ry'amazi, amashu.

Abana benshi bari mu bigero bitandukanye bahagaze mu kibuga, inyuma yabo hari inzu isakajwe amabati y'umutuku.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, ahinnye akaguru, yambayeho umwenda uri mu ibara ry'umukara, yambaye impeta, yambaye n'agakomo.

Ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze bwo kwa muganga: harimo umukasi, harimo separadira, harimo ibipfuko bipfuka ibisebe, harimo na vazeline.

Umuntu aricaye ku itapi iri mu ibara ry'ubururu, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umwana uri gusuzumwa n'umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, iruhande rwabo hahagaze abantu babiri b'igitsina gore bambaye udupfukamunwa.

Amacupa atatu asumbana, yometseho igipapuro kirimo amabara y'ubururu, umutuku, umweru n'umuhondo.

Umuntu uri kunywa amazi ari mu gacupa k'inyange, wambaye isaha ku kuboko y'umukara, wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, wambaye ekuteri mu mu matwi.

Umuntu uryamye hasi, wambaye ikabutura iri mu ibara ry'umukara, icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kuvura amenyo, harimo intebe ebyiri, imwe y'umurwayi, indi ya muganga n'itara rimurika mu kanwa.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze ubumbuye umunwa ari kunywa amazi ari mu icupa ritameneka yambaye ekuteri mu matwi.

Abantu bane bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo abagore batatu, umugabo umwe, bose bambaye imyenda isa, hasi bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, hejuru bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu.

Akaboko karambuye mu nkokora, harambitseho igitambaro cy'ubururu gifashwe n'ikiganza cy'umuntu.

Icyumba cyo kwa muganga giteretsemo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma indwara ziri mu mubiri w'umuntu, kiratanga raporo n'uburwayi cyabonye.

Abantu bane bapfukamye, umwe uryamye kuri matela ishasheho igitambaro cy'ubururu, uri guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Umugore aricaye, iruhande rwe hari icupa ry'amazi, hari utwuma tubiri twifashishwa baterura mu myitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse mudasobwa, iruhande rwe hari intebe ziri mu ibara ry'umweru.

Umuntu uri gukora siporo iruhande rwe hari imbuto z'ubwoko bwinshi, higanjemo imineke, amaronji, pome, imbuto niziza zituma umuntu arushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Agasekuru gato karimo umuhini wako, gakikijwe n'umuti uvura indwara za gakondo biri mu mabara atandukanye harimo uw'umweru n'uw'umutuku.

Abagore bari mu murima, bari gusoroma imiti ya gakondo, ivura indwara za gakondo.

Umurima urimo umuti w'ibibabi bivura indwara za gakondo nyinshi ziri mu mubiri w'umuntu.

Icupa ripfundikiye ririmo umuti w'ifu ukozwe mu giti cyitwa umuravumba, uvura indwara za gakondo.

Umugabo wambaye ingofero y'abayisilamu, ahagaze mu cyumba kirimo imiti myinshi itandukanye. Imiti ivura indwara za gakondo.

Utujerekani dutatu, kamwe kari mu ibara ry'umuhondo akandi kari mu ibara ry'umweru, iruhande rwaho hari umuti w'igikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Uturere kandi duto tubiri, amakarito, byose birimo umuti ukozwe mu cyatsi cyitwa igikakarubamba kivura indwara nyinshi za gakondo.

Ikarito irimo umuti ukomoka ku giti cyitwa igikakarubamba, kivura indwara zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo.

Amacupa arimo umuti, ukozwe mu cyatsi cy'ikimera cyitwa igikakarubamba, igikakarubamba kivura indwara nyinshi zananiranye za gakondo.

Ibiganza bibiri, udusorori twinshi. Harimo uduto n'utunini, twose turimo imiti itandukanye ivura indwara za gakondo.

Igikarito gikozwe mu mabara menshi, harimo ibara ry'ubururu ibara ry'umweru n'ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umutuku, icyo gikarito kirimo umuti uvura indwara za gakondo.

Icyapa gishushanyijeho ibiti, ibibabi byose bivura, byifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Umuntu uri gusekurira mu gasekuru karimo ibara ry'umweru, asekura imiti ivura indwara za gakondo akijijwe n'indi miti myinshi ivura indwara za gakondo.

Umugabo uhagaze mu murima uri gusoroma imiti y'ibibabi, yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Amacupa atandatu ari mu bwoko butameneka, harimo imiti ivura indwara za gakondo zitandukanye.

Icupa riteretse ricuritse, harimo umuti ukozwe mu gikakarubamba uvura amenyo, icyo giti kikaba kivura n'indwara nyinshi za gakondo.

Ikirere gisa ubururu kiriho ibicu by'umweru, amashami menshi ariho amababi menshi avura indwara nyinshi za gakondo.

Ibiti byinshi bihinzwe mu bwoko bwa kijyambere, bifite amababi menshi avura indwara nyinshi za gakondo.

Uducupa dutatu, tubiri dupfundikiye, akandi kadapfundikiye, icupa rimwe rinini ripfundikiye, agasekuru karimo ibara ry'umweru n'umuhini wako, gasekura imiti ivura indwara za gakondo.

Utujerekani tubiri tw'umuhondo, uducupa tubiri dutoya tw'umweru, agacupa kamwe kandikishijeho inyuguti z'ubururu, akandi gacupa gato yakandikishijeho inyuguti ziri mu ibara ry'icyatsi.

Ibiti bihagaze byumye, kimwe muri ibyo biti gishamitseho amashami, ariho amababi y'imiti ivura indwara za gakondo.

Abantu bahagaze mu mirima, ibirimo ubwoko butandukanye bw'imiti, ivura indwara nyinshi, zo mu bwoko bwa gakondo.